Ahantu ubona yuko hahinze ibimera mu buryo bwa kijyambere, harimo imipira ifasha mu kuhira, aho mu gihe cy'impeshyi aha hantu haba hakorerwa n'ubundi ibikorwa by'ubuhinzi. Ni byiza yuko dukangukira kuhira kugira ngo ubuhinzi bwacu burusheho gutanga umusaruro.

Abantu benshi barimo abajyanama b'ubuhinzi, mu bigaragara bari gushyira ifumbire y'imvaruganda ku bigori. Ni byiza yuko igihe dutera ibimera nk'ibiingibi tugomba gukoresha ifumbire y'imborera n'imvaruganda ndetse no mu gihe cyo kubagara tugakoresha imvaruganda kugira ngo birusheho gutanga umusaruro mwiza.

Akabati ubona yuko karimo imiti ijyanye n'ibihingwa ndetse n'ijyanye n'amatungo, ni byiza yuko amaduka nk'aya ngaya yegerezwa abaturage kugira ngo barusheho gukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga.

Abantu babiri; umugabo n'umugore, mu bigaragara bafashe ifumbire y'imborera, ni byiza yuko igihe duhinga dukangukira gukoresha ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Abantu benshi ubona yuko bari mu murima, mu bigaragara bari gushyira ifumbire y'imvaruganda ku bihingwa ndetse banabisasira; ni byiza ko igihe dukora imirimo ijyanye n'ubuhinzi tugomba gusasira ibihingwa byacu ndetse tukabihingisha ifumbire y'imbonerera n'ivaruganda, kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Ahantu ubona yuko harimo ububiko bubikwamo imiti ndetse n'imyayi, ibi byose ni serivisi zitangwa n'amaduka acuruza inyongeramusaruro ndetse n'imiti n'imyayi bikoreshwa mu buhinzi n'ubworozi. Ni byiza yuko aya maduka yegerezwa abaturage kugira ngo barusheho gukora ubuhinzi ndetse n'ubworozi butanga umusaruro.

Iduka ricururizwamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kongerera ubudahangarwa ibihingwa ndetse n'amatungo ndetse no kongera umusaruro, ni byiza yuko aya maduka yegerezwa abaturage kugira barusheho gukora ubuhinzi n'ubworozi bubyara inyungu.

Akabati karimo imyayi itandukanye ndetse n'imiti myinshi byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi, ni byiza yuko amazu nk'aya ngaya acuruza ibijyanye n'inyongeramusaruro n'imitsi yifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi yegerezwa abaturage, kugira ngo turusheho kugira ubuhinzi butanga umusaruro.

Abantu benshi bari mu murima ubona yuko uhinzwemo ibigori. Bari gushyira ifumbire y'imvaruganda kuri ibyo bigori. Ni byiza yuko abantu dukorera hamwe kugira ngo dukore imirimo ijyanye n'ubuhinzi kandi twite ku bihingwa twahinze kugira ngo birusheho gutanga umusaruro.

Ikiganza gifashe ifumbire y'imborera, harimo agasimba kazwi nk'umunyorogoto, iyi ni ifumbire igira intungagihingwa utasanga mu zindi fumbire, ni byiza yuko dukangukira gukoresha ifumbire y'imborera ndetse n'imvaruganda kugira ngo turusheho kugira ubuhinzi butanga umusaruro.

Umuntu ubona y'uko wambaye ingofero ndetse ahetse igikoresho bifashisha batera imiti ku bihingwa, ubona y'uko ni umuhinzi w'inyanya, ni byiza y'uko mu gihe dukora ubuhinzi bwa kinyamwuga turushaho no gutera imiti kugira ngo turinde ibihingwa byacu kuba byafatwa n'uburwayi butandukanye bityo turusheho kugira umusaruro mwiza.

Abantu benshi, bari ahantu ubona yuko hari ibihingwa ngengabukungu bizwi nk'ikawa. Hari umugabo umwe yunamye ubona yuko arimo yereka abandi uburyo bashyira imvaruganda kuri ibyo bihingwa. Ni byiza yuko dukoresha ifumbire y'imborera n'imvaruganda mu buryo bwiza, kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Utubati turimo imiti itandukanye ndetse n'inyongeramusaruro hamwe n'imyayi y'imbuto zitandukanye, ni byiza yuko amaduka nk'aya acuruza imbuto, inyongeramusaruro, ndetse n'imiti y'amatungo ndetse n'ibihingwa, yegerezwa abaturage kugira ngo barusheho gukora ubuhinzi butanga umusaruro.

Abagabo batatu ubona yuko bari mu murima uhinzwemo igihingwa ngengabukungu cyitwa ikawa. Barimo barashyira ifumbire y'imvaruganda kuri icyo gihingwa ndetse bakanagisasira. Ni byiza yuko ibihingwa nk'ibi tubyitaho tubisasira ndetse dukoresha amafumbire atandukanye kugira ngo iki gihingwa kirusheho gutanga umusaruro.

Ifumbire y'imborera, mu bigaragara ni ifumbire yujuje intungagihingwa nyinshi, utasanga mu yandi mafumbire, iyi fumbire ikomoka ku matungo, ni byiza yuko nk'abantu twese dukangukira korora amatungo, yaba amagufi n'amaremare kugira ngo turusheho kubona ifumbire, bityo tuyifashishe mu buhinzi, tubone umusaruro mwiza.

Abantu benshi mu bigaragara bari gushyira ifumbire y'imvaruganda ku bigori, ni byiza yuko mu gihe duhinga dukoresha ifumbire y'imborera n'ivaruganda kugira ngo ubuhinzi bwacu burusheho gutanga umusaruro mwiza.

Icyapa kigaragaza ahantu hacururizwa ibikoresho bijyanye n'inyongeramusaruro ndetse n'ibindi bijyanye n'ubuhinzi. Ni byiza yuko aya maduka yegerezwa abaturage kugira ngo babashe kurushaho kubona ibikoresho byifashishwa mu buhinzi bitabagoye.

Icyumba cyiza ubona ko kirimo ububiko bw'imiti y'inyongeramusaruro ndetse n'imyayi y'ibihingwa bitandukanye. Ni byiza yuko aya maduka yegerezwa abaturage kugira ngo babashe kubona ibikoresho bikenerwa mu buhinzi n'ubworozi, bitabasabye gukora urugendo rurerure.

Icyumba ubona yuko kirimo ububiko butandukanye, ubona yuko aha hantu hacururizwa inyongeramusaruro ndetse n'imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, birakwiye yuko inzu nk'izi ngizi ziba hafi y'abaturage kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi birusheho gukorwa kinyamwuga.

Amabasi arimo ifumbire mvaruganda ndetse n'udukoresho twifashishwa bari kuyora iyo mvaruganda, ni byiza yuko igihe turi gukora ubuhinzi dukoresha ifumbire y'imborera n'ivaruganda, kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Ahantu heza cyane ubona yuko higanjemo amacupa, ubona yuko hacururizwa inyongeramusaruro ndetse n'imiti yifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, ni byiza yuko izi nzu zegerezwa abaturage, kugira ngo turusheho guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi.

Inyubako nziza cyane ubona y'uko ziganjemo iz'ubucuruzi, harimo umuryango umwe ubona yuko ucururizwamo imiti ndetse n'inyongeramusaruro zifashishwa mu buhinzi n'ubworozi, ni byiza y'uko izi nzu zegerezwa abaturage kugira ngo ubuhinzi n'ubworozi bukomeze gutezwa imbere.

Abantu benshi ubona yuko ari ishyirahamwe ryiganjemo abajyanama b'ubuhinzi, aba bajyanama b'ubuhinzi ni abantu badufasha cyane mu buhinzi bwacu bwa buri munsi, kuko batugira inama ku bijyanye n'inyongeramusaruro zo gukoresha ndetse n'uburyo bwiza twateramo ibihingwa kugira ngo turusheho gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga.

Icyumba kirimo inyongeramusaruro ibikoresho byifashishwa mu buhinzi, imiti, imyayi ndetse n'ibindi byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ubworozi. Ni byiza yuko ibi bikoresho bitangwa n'aya maduka byegerezwa abaturage kugira ngo barusheho gukora ubuhinzi n'ubworozi kinyamwuga.

Icyapa kigaragaza ahantu bacururiza imiti y'amatungo imbuto nziza ndetse n'inyongeramusaruro, ni byiza yuko aya maduka yegerezwa abaturage kugira ngo barusheho gukora ubuhinzi kinyamwuga.

Igihingwa cy'urutoki, ni kimwe mu bihingwa abantu bakora kugira ngo barusheho kwihaza mu biribwa ndetse babona amafaranga binyuze mu kuba ari isoko y'ibitoki, imineke ndetse n'inzoga abantu banywa, turusheho gukangukira kwitabira ubuhinzi.

Ahantu ubona yuko hari umurima utunganyijwe neza, aho imyaka iteye ku murongo. Ni byiza yuko dukora ubuhinzi kinyamwuga, twirinda gutera imyaka yacu mu kajagari, kugira ngo turusheho kwita ku myaka duhinze, kandi irusheho kuduha umusaruro mwiza.

Ahantu hari ibimera byinshi, harimo ibihingwa by'ibishyimbo, imyumbati ndetse n'ibindi biti, ni byiza y'uko ibi bihingwa byose tubibungabunga kuko bimwe bidufasha kubona ibyo kurya, ibindi bikifashishwa biyungurura umwuka duhumeka ndetse n'ibitanga imiti, dukomeze tubibungabunge.

Ahantu heza cyane ubona yuko ariho batunganyiriza ingemwe ahazwi nk'ihumbikiro ry'imbuto. Harimo imbuto zitwa avoka. Ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hegerezwa abaturage kugira ngo barusheho kubona imbuto mu buryo bworoshye.

Ibihingwa by'ibishyimbo bizwi nka mushingiriro, ibi ni ibihingwa bikenera ibiti byo kuririraho kugira ngo birusheho gutanga umusaruro mwiza, ni byiza y'uko abantu dukangukira guhinga ibihingwa nk'ibi ngibi kuko ari isoko y'umusaruro ushimishije, kandi bigatanga amafaranga.

Ahantu ubona yuko harimo ibimera bitandukanye byiganjemo ibiti ndetse n'ibyatsi by'ibinyagasozi, ni byiza yuko tubungabunga ibidukikije muri rusange kuko bidufasha kuyungurura umwuka duhumeka.

Ikiganza gifashe umuceri, igihingwa cy'umuceri ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo ndetse bishobora kuba isoko y'amafaranga, ni byiza yuko dukangukira gukora ubuhinzi bw'umuceri kugira ngo turusheho kwiteza imbere no kwihaza mu biribwa.

Umugabo uri ahantu mu rutoki, mu bigaragara ahinga ibitoki byifashishwa hakorwa inzoga ndetse bishobora no gutanga imineke, ni byiza yuko dukangukira ubuhinzi bw'urutoki, kuko budufasha kwivana mu bukene ndetse bukadufasha kwihaza mu biribwa.

Ahantu hahinze ibihingwa byiza cyane, ubona yuko bisa neza; ibyo bihingwa ni imyumbati. Ni byiza yuko mu gihe dutera ibimera byacu tugomba kubitera mu buryo bugezweho kinyamwuga kugira ngo birusheho kuduha umusaruro mwiza.

Ahantu ubona yuko hakorerwa imirimo y'ubuhinzi, harimwo ibimera bitandukanye nk'amateke ndetse n'insina, ni byiza yuko dukora ubuhinzi bw'amateke kuko ari isoko y'intungamubiri tutasanga mu bindi bimera, ni byiza yuko dukangukira gukora ubwo buhinzi.

Igiti kiza cyane k'imyembe, imyembe ni imbuto nziza cyane zifite uburyohe budasanzwe ndetse n'intungamubiri, dushobora gufata igihe turangije gufata amafunguro kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza, dukomeze tubibungabunge.

Igihingwa ngengabukungu cyitwa ikawa, iki ni kimwe mu bihingwa bifasha abantu kwiteza imbere binyuze mu gutanga amafaranga. Ni byiza yuko tubibungabunga kandi tukabyitaho kugira birusheho gutanga umusaruro mwiza, bityo twivane mu bukene.

Imyumbati ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bidufasha kubona intungamubiri zitandukanye, kuko iri mu bitera imbaraga, ni byiza yuko dukangukira kuyihinga kandi tukayihinga kinyamwuga, kugira ngo irusheho gutanga umusaruro mwiza.

Igihingwa cy'ikawa ni igihingwa ngengabukungu, bigaragara neza yuko igihingwa cy'ikawa cyitaweho ari igihingwa gishobora gutuma umuntu ava mu bukene, ni byiza yuko twita kuri ibi bihingwa kugira ngo twivane mu bukene.

Ahantu hari igihingwa ngengabukungu kitwa ikawa, ni byiza yuko dukangukira guhinga ibihingwa nk'ikawa kugira ngo turusheho kwiteza imbere kandi turusheho kubyitaho kugira ngo birusheho gutanga umusaruro mwiza.

Ibihingwa by'avoka ubona y'uko ari imbangurirano, ni byiza y'uko abantu bakangukira ubuhinzi bw'avoka z'imbangurirano kuko zitanga umusaruro mwiza kurusha avoka zisanzwe, dukomeze dukangukire gukora ubuhinzi kinyamwuga.

Iyorezo ry'inyanya ni ahantu bahumbika umwayi w'ikawa bityo bakawubyazamo ingemwe, bakaba bazitanga ku baturage bakajya kuzihinga, aha ni ahantu h'ingirakamaro cyane kuko hafasha abaturage kubona ingemwe mu buryo bworoshye, bityo bagakora ubuhinzi bwo kwiteza imbere.

Ibihingwa by'ibirayi ni kimwe mu bihingwa bifasha abantu kwihaza mu biribwa kandi kikaba isoko y'intungamubiri, aho bifasha umubiri kugira imbaraga, ni ibihingwa kandi bifasha kubona amafaranga, ni ibihingwa byiza byihanganira ihindagurika ry'ibihe abaturage babihinga bakivana mu bukene.

Abagabo babiri ubona yuko bari mu murima uhinzwemo ibinyomoro, ubu ni ubuhinzi umuntu ashobora gukora akiteza imbere ndetse akaba yanabona imbuto zishobora kugira umumaro ukomeye cyane mu buzima bwe, harimo nko kumwongerera amaraso ndetse n'ibindi, dukomeze dukangukire ubuhinzi nk'ubu ngubu.

Ahantu hubakiye ubona yuko harimo ubworozi bw'ingurube za kijyambere, ni byiza yuko abantu bose bashaka gukora ubworozi bw'ingurube bakora ubworozi bw'ingurube za kijyambere kugira ngo barusheho kubona umusaruro.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko, inkoko ni amwe mu matungo ashobora kudufasha kwivana mu bukene mu gihe kitarambiranye, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora ubworozi bw'amatungo magufi kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Umuti wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata amatungo harimo inka, ihene ndetse n'inkoko, ni byiza y'uko igihe cyose amatungo yacu agize ikibazo cy'uburwayi twihutira gukoresha iyi miti kugira ngo tuyarinde impfu zitandukanye zishobora kuduteza igihombo.

Imbwa ni inyamaswa yibanira n'abantu, aho idufasha mu kurinda umutekano w'ingo zacu, ni byiza yuko igihe iri tungo ryagize ikibazo na ryo rigomba guhabwa ubuvuzi kuko ari itungo ry'ingirakamaro.

Ahantu hakorerwa ubworozi bw'inkoko, ubona yuko harimo inkoko nyinshi zifite akantu zijya kunyweramo amazi ndetse no kuriramo, ni byiza yuko dukora ubworozi nk'ubu ngubu bw'amatungo magufi, kugira ngo turusheho kwiteza imbere twihaze no mu biribwa.

Umubyeyi ubona yuko ari ahantu mu murima uhinze mu masinde arimo aratera ibigori, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora imirimo y'ubuhinzi kuko idufasha mu kwihaza mu biribwa ndetse no kwiteza imbere.

Umugabo uri ahantu akorera imirimo y'ubuhinzi, mu bigaragara yahinze ibihingwa bitandukanye birimo avoka, imboga, ndetse n'imbuto, ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora ubuhinzi kugira ngo turusheho kwiteza imbere no kwihaza mu biribwa.

Igihingwa cy'umuceri ubona yuko abantu barimo barasarura. Ni byiza yuko dukangukira guhinga umuceri kuko ari isoko y'amafaranga kandi ko ari igihingwa kifashishwa mu gutanga ibiribwa by'ingirakamaro mu mibiri yacu. Dukomeze twitabire ubuhinzi n'ubworozi turusheho kugira iterambere rirambye.

Umugabo mu bigaragara arimo arahinga akoresheje isuka, ni byiza yuko dukoresha ubu buryo gakondo duhinga dutunganya imirima aho tugiye gutera ibihingwa byacu kandi iyo bibaye ngombwa twanakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo turusheho kubona umusaruro umeze neza.

Abagabo babiri ubona yuko barimo barahinga ahantu hari hateye ibigori ndetse n'imyumbati. Ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora imirimo y'ubuhinzi kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa no kwiteza imbere.

Ahantu hari ibimera bitandukanye birimo ibisheke, birimo insina ndetse n'ibindi. Mu bigaragara hakorerwa imirimo ijyanye n'ubuhinzi cyane ko hari n'abantu bunamye ubona ko bari gutera ibihingwa mu butaka. Ni byiza yuko dukangukira gukora imirimo ijyanye n'ubuhinzi kugira ngo twiteze imbere.

Abantu ubona yuko bari guhinga bakoresheje amasuka. Ni byiza yuko dutunganya imirima yacu neza dukoresheje uburyo gakondo bwo gukoresha amasuka cyangwa imashini zabugenewe kugira ngo dutunganye aho dutera ibihingwa byacu bityo dukore ubuhinzi butanga umusaruro ushimishije.

Ahantu ubona yuko hahinze igihingwa cy'imyumbati bari kugisarura, iki ni kimwe mu bihingwa ngandurarugo bishobora no gutanga amafaranga ndetse bifasha kwihaza mu biribwa, haba mu kuyirya ndetse no kuba yatunganywa ikavamo ubugari.

Umugabo bigaragara afashe imbuto z'igiti cy'avoka, ubona yuko ari igiti cyo mu buryo bugezweho kizwi nk'imbangurirano, ni byiza yuko dukangukira gutera avoka z'imbangurirano kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwinshi ukomoka kuri ubu buhinzi.

Umuntu ubona yuko ari ahantu akorera imirimo y'ubuhinzi, mu bigaragara ari mu murima uhinzemo imbuto ndetse n'imboga, afite umupira arimo aruhira iyo myaka. Ni byiza yuko dukangukira kuhira imyaka yacu igihe habaye imihindagurikire y'ibihe kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo, ubona yuko bifashishije ibiti, barimo bubaka, ubwiherero bw'umwe muri bo, ni byiza yuko tubungabunga ibidukikije kuko ari isoko y'ibiti dushobora kwifashisha twubaka, inyubako zitandukanye.

Umwana w'umukobwa ubona y'uko ari gusasira ikimera cyitwa avoka, ni byiza y'uko ibimera nk'ibi ngibi tubyitaho tubisasira, tubyuhira ndetse tubiha ifumbire ihagije kugira ngo birusheho gutanga umusaruro.

Abantu ubona yuko ari abakorerabushake ba Copusi Afurika, bari gufasha umuturage kubaka akarima k'igikoni. Ni byiza yuko dufatanya twese hamwe kugira ngo twubake uturima tw'igikoni, kugira ngo twihaze mu biribwa by'umwihariko imboga.

Abantu benshi barimwo umujyanama w'ubuhinzi mu bigaragara bari gutera ibihingwa muburyo bugezweho bifashishije umugozi, ni byiza yuko dukora ubuhinzi kinyamwuga kugira ngo burusheho kuduha umusaruro mwiza.

Umugabo wambaye amadarubindi, mu bigaragara ari ahantu akorera imirimo ye y'ubuhinzi, aho ahinga ibigori, mu bigaragara ni ibigori byiza byitaweho cyane bityo urebye byatanze umusaruro, ni byiza yuko twita ku buhinzi n'ubworozi kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Abantu ubona yuko bambaye amataburiya bari gukora umuyoboro wo gutwara amazi, mu bigaragara barashaka yuko ayo mazi agera ahantu akenewe, ni byiza yuko tuyobora amazi mu gihe turi gukora ubuhinzi kugira ngo turusheho kwegera amazi kandi turusheho kuhira igihe habaye imihindagurikire y'ibihe.

Abantu benshi bafite ibikoresho birimo amasuka ubona y'uko bari kwikorera ikiraro, ni byiza yuko igihe aho dutuye hari ikibazo nk'iki, dushyira hamwe tukabasha kugikemura bidasabye kurindira ubufasha bwa Leta.

Umugabo ubona yuko arimo aratunganya umurima wiwe acamo utunogo kugira ngo aze guteramo imyaka ye, ni byiza yuko turushaho gukora ubuhinzi bwa kinyamwuga dutera imyaka yacu dukoresheje ifumbire n'imvaruganda kandi ku murongo kugira ngo ubuhinzi burusheho gutanga umusaruro.

Ahantu hari ibihingwa bitandukanye byiganjemo urutoki. Mu bigaragara urabona yuko byitaweho cyane. Abantu barimo barahinga ubona yuko bateganya guteramo indi myaka. Ni byiza yuko abantu twese dukangukira gukora ubuhinzi kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa no kwiteza imbere.

Abantu benshi barimo baratera, bari gutera mu murima ubona yuko uhinze urimo insina, ku nkengero zawo hari ibyatsi bizwi nk'urubingo, byifashishwa mu kugaburira amatungo, ni byiza yuko mu nkengero z'imirima by'umwihariko ahatenguka twahatere ibyatsi, kugira ngo turusheho no kubona ibyatsi by'amatungo.

Ahantu ubona yuko ari ubutaka bugari cyane, ikibaya kigari gihinzemo igihingwa cy'umuceri, ni byiza yuko duhuriza hamwe ubutaka tugahinga igihingwa kimwe kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Ibirayi ni ibihingwa byiza cyane bifasha abantu kubona amafaranga ndetse n'ibyo kurya bihagije, aho ari isoko y'intungamubiri zitandukanye birimo no kuba bitera imbaraga mu mubiri wacu, ni byiza yuko dukangukira kubihinga.

Abantu ubona yuko bari gukusanya umusaruro w'inyanya mu mifuka, ni byiza yuko igihe turi gusarura tugira ibikoresho byabugenewe byiza bitangiza umusaruro kandi bifite isuku tugomba gutwaramo umusaruro wacu.

Abantu babiri ubona y'uko bari mu kibaya kirimo ibimera bitoshye mu bigaragara hahinze igihingwa cy'umuceri, iki ni igihingwa ngandurarugo ndetse kikaba n'igihingwa ngengabukungu icyarimwe kuko ari isoko y'ibyo kurya ndetse n'amafaranga.

Ibihingwa by'ibirayi, ni ibihingwa byiza cyane, kuko bidufasha kubona amafaranga, bikaduha ibyo kurya, ndetse bigira intungamubiri nyinshi cyane, birimo no gutera imbaraga imibiri yacu, dukomeze dukangukire kwita ku bihingwa nk'ibi kuko ari ingirakamaro.

Ibihingwa byiza cyane ubona yuko bitoshye bifite amababi y'icyatsi kibisi ibyo bihingwa ni ibigori, ni byiza yuko dukangukira ubuhinzi bw'ibigori kuko butanga umusaruro iyo bwitaweho cyane ndetse bikaba byadufasha kwivana mu bukene no kwihaza mubiribwa.

Ahantu mu murima uhinzemo amasaka ndetse n'amateke, ibi byose ni ibihingwa ngandurarugo, amasaka iyo yitaweho atanga umusaruro, bityo tukaba twayifashisha dukora igikoma, ubushera, ndetse n'ibindi by'ingenzi muri ubu buzima bwacu.

Umugabo ubona y'uko arimo atondeka ibigori neza kugira ngo abone uko abibika, ni byiza y'uko dutunganya umusaruro wacu neza tukawuhunika neza kugira ngo urusheho kugira agaciro ndetse ube uw'umumaro ku buzima bwacu.

Akazu kubatse mu buryo bw'ibyuma ndetse n'ibiti, ubona yuko ari ubuhunikiro. Ni byiza yuko igihe twejeje umusaruro wacu tugomba kuwuhunika neza, kugira ngo turinde umusaruro wacu kuba wakwangirika, bityo ukomeze utugirire akamaro.

Igihingwa cy'urutoki ni kimwe mu bihingwa ngengabukungu ndetse bidufasha kugira ngo tubone ibyo kurya ndetse n'amafaranga binyuze mu kuba, harimo ibitoki byo kurya ndetse n'ibitunganywa bikavamo ibinyobwa.

Ahantu harimwo ibimera bitandukanye byiganjemo ibyatsi ndetse n'ibiti birebire, ibi byose bikubiye mu bidukikije, ni byiza y'uko tubibungabunga kuko ari isoko y'imiti twifashisha twivura indwara zitandukanye ndetse bikadufasha kubona umwuka mwiza duhumeka.

Ahantu hari ibimera bitandukanye, harimo ibigori ndetse n'ibiti byo mu ishyamba, ni byiza y'uko dukangukira gukora ubuhinzi ndetse tukanita ku biti kimeza, birimo amashyamba kugira ngo turusheho kubungabunga ibidukikije no kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari ibimera bitandukanye birimo imyembe, ibigori, avoka ndetse n'ibindi, ibi byose ni ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi kuko bidufasha kugira ubuzima bwiza binyuze mu kuduha ibiribwa ndetse no kubona amafaranga tukivana mu bukene.

Ahantu hari ingemwe nyinshi z'avoka ubona y'uko zitewe mu mifuka, ni byiza y'uko dukoresha ibikoresho tubona hafi yacu nk'imifuka, ibikoresho bya palasitike ndetse n'ibindi tubibyaza umusaruro bidasabye y'uko byangiza ibidukikije kandi ni ngombwa y'uko imbuto nk'izi ngizi ziba hafi y'abaturage kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu ubona yuko hari igihingwa cy'urutoki ndetse n'imyumbati, ubona yuko ari ibihingwa byitaweho neza cyane. Urutoki ni igihingwa cy'ingenzi cyane kuko kidufasha kwihaza mu biribwa binyuze mu kuduha ibitoki biribwa, ibikorwamo inzoga ndetse n'ibitanga imineke. Ni byiza ko turubungabunga.

Ibimera byitwa imikoni ni bimwe mu bimera abantu bakwitondera cyane kuko bishobora kugira ingaruka ku buzima bw'umuntu igihe umugiye nko mu maso cyangwa ku bindi bice by'umubiri. Ibi bimera kandi bidufasha mu kubona imiti itandukanye, birimo nko kuba bidufasha kwivura imvune ndetse n'ibindi.

Indabyo nziza ubonaye ko zitaweho, ni byiza yuko ahantu tuba tuhashyira indabyo kugira ngo harusheho kugaragara neza, si ibyo gusa kandi kuko harushaho kugirirwa isuku, ni byiza ko indabyo nk'izi tuzitaho kugira ngo aho tuba hakomeze kurangwa n'isuku ihagije.

Ahantu hari ibihingwa bitandukanye byiganjemo imboga ndetse n'ipapayi, ni byiza yuko tubungabunga ibimera nk'ibi ngibi kuko nk'imboga zidufasha kubona vitamini A, hanyuma igipapayi ni kimwe mu rubuto rudufasha kugira izindi ntungamubiri utasanga mu zindi mbuto izo ari zo zose.

Umugabo uri mu murima w'iwe ubona yuko wiganjemo ibihingwa birimo urutoki. Ni byiza yuko dukangukira guhinga insina kugira ngo tubashe kwihaza mu biribwa ndetse tubone n'amafaranga twiteze imbere.

Ahantu hari ibihingwa bitandukanye by'umwihariko ibigori ubona yuko bihinze neza, ni byiza yuko dukangukira guhinga ibigori kuko bidufasha mu kubona ibyo kurya ndetse n'amafaranga, turusheho kwitabira ibikorwa bijyanye n'ubuhinzi.

Ahantu hari ibimera byinshi, harimo ibyatsi by'ibinyakigunda, harimo amapera, harimo n'ibindi biti bya kimeza, ni byiza yuko tubungabunga ibi bimera byose bya kimeza, kuko kubungabunga ibidukikije bidufasha kubona umwuka uyunguruye duhumeka.

Ahantu hari ibimera bitandukanye byiganjemo ibyatsi ndetse n'ibiti cyimeza. Ibi ni ibimera bikwiye kubungabungwa cyane kuko bidufasha kuyungurura umwuka duhumeka, ndetse bikaba isoko y'imiti twifashisha twivura indwara zitandukanye.

Ahantu hari ibimera bitandukanye, harimo ibiti, harimo ibyatsi biri hasi ndetse n'ibirandarandira hejuru ku biti, ni byiza yuko tubungabunga ibidukikije nk'ibi ngibi kuko ari isoko y'imiti dukoresha ndetse bikanadufasha kuyungurura umwuka duhumeka.

ahantu hakorerwa ubuhinzi hari ibimera bitandukanye byiganjemo ibigori ndetse n'ibiti by'ishyamba ni ngombwa yuko dukora ubuhinzi kinyamwuga ndetse tukanabungabunga ibiti by'ishyamba kuko bidufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka ndetse ubuhinzi bukadufasha kwiteza imbere no kwihaza mu biribwa

Ahantu hari ibimera bitandukanye byiganjemo ibimera kimeza byo mu ishyamba birimo ibyatsi n'ibiti, ni byiza y'uko tubungabunga ibi bimera kuko bidufasha mu kubona imiti itandukanye twifashisha twivura indwara ndetse bikadufasha no kuyungurura umwuka duhumeka.

Ahantu hari ibimera bitandukanye ariko higanjemo igihingwa cy'urutoki, ni byiza y'uko ibihingwa nk'ibi ngibi byitabwaho kugira ngo birusheho gutanga umusaruro, harimo nko kubikiza ikigunda, kubisasira ndetse no kubishyiraho ifumbire y'imborera n'imvaruganda kugira ngo umusaruro ukomeze wiyongere.

Ubutunguru bwinshi burunze ahantu, ubutunguru ni kimwe mu bihingwa by'ingirakamaro cyane kuko budufasha kubona amafaranga, si ibyo gusa kandi kuko budufasha guhumuza ibiryo turya bityo bikarushaho kuturyohera.

Agatebo karimo amashu, ubona yuko aya mashu adafite isuku ihagije. Ni byiza yuko imboga ndetse n'imbuto, ndetse n'ibindi bikoresho twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi, bigirirwa isuku, kugira ngo birusheho kuba ingirakamaro ku mibiri yacu, aho kuduteza ibyago.

Ubusitani bwiza cyane burimo ibyatsi, indabo ndetse n'ibiti bitandukanye. Ni byiza yuko ahantu tuba hagomba kuba hari ubusitani, kuko budufasha mu kuba ahantu hasukuye ndetse n'ibiti byabwo bikadufasha kuyungurura umwuka duhumeka.

Ibihingwa byiza cyane ubona ko bitoshye ni ibihingwa byitwa urusenda, ni byiza yuko abantu bakangukira gukora ubuhinzi bw'urusenda kuko ari isoko y'amafaranga, si ibyo gusa kandi urusenda turwifashisha mu gihe turimo turafata amafunguro kuko rudufasha gutuma ibiryo bituryohera.

Igihingwa cy'ubutunguru, ni kimwe mu bihingwa by'ingenzi cyane kuko ari isoko y'amafaranga ndetse si ibyo gusa kandi turwifashisha mu gihe turi guteka kugira ngo ibiryo birusheho kugira iyindi mpumuro.

Igihingwa k'ikiriganya. iki ni kimwe mu gihingwa cyuje intungamubiri nyinshi utasanga mu bindi bimera. Ni byiza yuko dukangukira kurya imbuto n'imboga nk'izi ngizi kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo uteruye ibyatsi byo gusasira imyaka ubona yuko ari ahantu yateye inyanya ndetse n'ibigori. Ni byiza yuko dusasira imyaka yacu kugira ngo turinde ubutaka kuba bwakumagara, bityo imyaka yacu bikaba byayigiraho ingaruka. Dukomeze dukore ubuhinzi bwa kinyamwuga.

Ababyeyi babiri ubona yuko bacuruje imbuto zitwa avoka. Izi ni imbuto z'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu, kuko zirimo intungamubiri utabona mu bindi bimera ibyo ari byo byose.

Umukobwa ubona ko ari ahantu hahinzwe imbuto zizwi nk'intababara, ni byiza y'uko izi mbuto tuzirya igihe tumaze gufata amafunguro kugira ngo turusheho kugira intungamubiri mu buzima bwacu.

Umumama ubona y'uko imbere ye hari agatanda kariho ibicuruzwa bitandukanye, byiganjemo imbuto, harimo inyanya, ubutunguru ndetse n'ibindi, ni byiza y'uko abantu nk'aba ngaba bakora ubucuruzi nk'ubu ngubu kugira ngo barusheho kwiteza imbere.

Ibikoresho bitandukanye birimo imiteja, birimo beterave ndetse na karoti, ibi byose ni imboga, kandi ni isoko y'intungamubiri utabasha kubona mu bindi biribwa, ni ngombwa yuko igihe cyose dufata amafunguro tunayategura, tugomba kwita kuri ibi biribwa kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu heza cyane ubona yuko hari ubusitani bwiganjemo indabo z'amoko atandukanye, ni byiza yuko ahantu dutuye tugomba kuhatera indabo kugira ngo turusheho kuba ahantu heza, izi ndabo kandi ni ingirakamaro kuko zifashishwa mu gutegura ahantu hagiye kubera nk'ibirori bitandukanye, bityo isuku yaho ikarushaho kuba nta makemwa.

Imbuto z'imyembe ziri ahantu ku kabati. Ubona y'uko uwazisaruye yazisaruye ziteze. Ni byiza y'uko tugomba kureka imbuto zikera kugira ngo zirusheho kuturyohera kandi zigira umumaro mu mibiri yacu.

Ahantu hari ibimera bitandukanye gusa ik'ingenzi cyane kirimo ni ururabo, indabo ni ibimera byiza cyane byifashishwa mu gutegura ahantu hagiye kubera ibirori ndetse zikaba zinatuma aho ziri hagaragara neza, ni byiza yuko tuzibungabunga kuko ari ingirakamaro.

Umugabo uri kumwe n'umwana we mu bigaragara bafite inyanya mu ntoki, biragaragara yuko bari ahantu bakorera ubuhinzi bw'inyanya ku buryo bugezweho, ni byiza yuko abantu dukangukira guhinga imbuto n'imboga mu buryo bugezweho kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Imifuka iriho imbuto zitandukanye zirimo intoryi, karoti, ndetse n'inyanya, mu bigaragara aha ngaha ni ho bazicururiza. Ni byiza yuko ubu bucuruzi bukorwa kugira ngo umuntu yiteze imbere, ariko biba byiza cyane iyo imbuto nk'izi zirushijeho kugirirwa isuku.

Ahantu hari imbuto n'imboga bitandukanye harimwo ubutunguru, karote ndetse n'intoryi, ni byiza y'uko dukangukira kurya izi mbuto ndetse n'imboga kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umugabo ubona yuko arimo yita ku bihingwa byiwe ari byo bihingwa by'ibinyomoro, ibi ni ibihingwa bishobora gutuma umuntu yivana mu bukene ndetse akagira ubuzima bwiza, bitewe nuko bitanga amafaranga kandi bikagira intungamubiri, umuntu iyo yabiriye agira ubuzima bwiza.

Ahantu habereye ijisho harimwo ibiti bitandukanye, harimo indabo zitandukanye ndetse n'ubusitani. Ni byiza yuko ubu busitani na bwo bubungabungwa kuko ari isoko y'umwuka duhumeka, kandi bikarushaho gutuma ahantu tuba hamera neza.

Udutanda twifashishwa bacuruza ibintu bitandukanye by'umwihariko imbuto n'imboga. Mubigaragara hariho imbuto zitandukanye ariko higanjemo imyembe. Ni byiza yuko iyi myembe isarurwa yeze kugira ngo irusheho kubungabungwa neza kandi ntitakaze ubuziranenge bwayo.

Igiti cya avoka. Iki ni igiti cyera imbuto z'ingirakamaro mu buzima bw'umuntu, ni yo mpamvu gikwiriye kubungabungwa, kuko avoka tuzifashisha igihe turimo dufata amafunguro, bigatuma turushaho kubona intungamubiri tutasanga ahandi, dukomeze tuzibungabunge.

Umugabo wambaye neza ubona yuko ari ahantu hahinze igihingwa cy'inyanya. Mu bigaragara iki gihingwa yagihinze mu buryo bugezweho bwo kubishingirira. Ni byiza yuko abantu bose bakangukira guhinga ibihingwa nk'ibi mu buryo bugezweho, kugira ngo birusheho gutanga umusaruro.

Ahantu hari amashu ubona yuko yangiritse hari n'igipipiri. Mu bigaragara aha hantu hafite umwanda. Ni byiza yuko igihe turimo tubika ibijyanye n'imbuto ndetse n'imboga turushaho kubigirira isuku kugira ngo tubirinde kwangirika. Dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Ibinyomoro ni kimwe mu mbuto z'ingenzi cyane mu buzima bwa buri munsi kuko bidufasha mu kongera amaraso. Ni ngombwa yuko dukangukira kurya imboga n'imbuto kugira ngo turusheho kwinjiza intungamubiri tutakura mu bindi biribwa ibyo ari byo byose.

Imbuto n'imboga zitandukanye ziganjemo beterave, ibiriganya, karoti, ibitunguru, imiteja n'ibindi. Ibi byose iyo tubihurije hamwe dukora imboga nziza cyane zuje intungamubiri ntagereranywa tugomba gufata ku ifunguro ryacu rya buri munsi.

Umumama mu bigaragara arimo aratera umuti ku buhinzi bw'ibihumyo, ubu ni ubuhinzi bugezweho cyane kuko ari isoko y'ibyo kurya ndetse bukaba n'isoko y'amafaranga dukangukire ubuhinzi bw'ibihumyo.

Ihumbikiro ririmo ibinyomoro. Ni byiza yuko abantu bakora ibikorwa nk'ibi ngibi byo kuyoreza imbuto nk'izi ngizi, kugira ngo abaturage babashe kuzibona bitabagoye, bityo barusheho gukora ubuhinzi bujyanye n'igihe.

Karoti ni imbuto nziza cyane, zishobora kwifashishwa mu guteka ndetse umuntu akaba yanazihekenya ari mbisi, bityo akarushaho kubona intungamubiri atasanga mu bindi biribwa; ni yo mpamvu ari ngombwa yuko dukangukira kurya imboga n'imbuto, kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hari ubutunguru bwinshi cyane, ni byiza yuko ubutunguru bubungabungwa kuko budufasha cyane mu guhumuza ibiryo ndetse bushobora no kuba bwakwifashishwa kugira ngo hakorwe imiti itandukanye, harimo ivura indwara z'uruhu ndetse n'izindi, dukomeze tubungabunge ubutunguru kandi dukangukire kubutera.

Imbuto zitwa inyanya, izi ni imbuto zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi aho umuntu azishyira mu biryo zigatuma ibiryo bimera neza kandi bikagira intungamubiri, si ibyo gusa kandi zishobora no kwifashishwa hakora imiti yo kuvura indwara zitandukanye zifata uruhu, dukomeze tuzibungabunge.

Igiti k'ipera uru ni rumwe mu rubuto rwiza cyane abantu benshi bakunda ku bw'uburyohe bwarwo ndetse n'intungamubiri rugira, ni byiza yuko tugomba kurwitaho kugira ngo rurusheho gutanga umusaruro.

Ahantu hari imbuto nziza cyane z'ingirakamaro mu mubiri w'umuntu zitwa imineke, ni byiza yuko buri funguro ryose dufashe tugomba gufataho urubuto, umuneke ni kimwe muri izo mbuto, ni byiza rero ko dukangukira gufata izo mbuto kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Urutaro ruriho imbuto zizwi nka powavuro. Izi zifashishwa cyane mu gihe bari gutegura amafunguro, aho zifasha mu guhumuza ibiryo kandi zikagira n'intungamubiri utasanga mu bindi bimera. Ni byiza yuko dukangukira ubuhinzi bwazo ndetse no kuri buri funguro tukarya imboga kuko ari isoko y'intungamubiri.

Umukozi w'ikigo cya Copsafrica ari ahantu batera ibimera bitandukanye byiganjemo imbuto z'ibinyomoro. Izi mbuto zidufasha cyane mu kubona intungamubiri tutasanga mu bindi bimera kuko zidufasha mu kongera amaraso, ni byiza yuko dukangukira guhinga izi mbuto ndetse no kuzirya kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be, mu bigaragara bari kubagara ibishyimbo. Ni byiza yuko igihe tubonye yuko ikigunda cyabaye cyinshi mu myaka yacu, tugomba kubagara kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza.

Ahantu heza cyane hari ubusitani burimwo indabyo zitandukanye, ni byiza yuko ahantu dutuye tuhagirira isuku, tuhashyira ubusitani burimwo indabyo zitandukanye kugira ngo harusheho kumera neza bityo isuku ikomeze kuturanga.

Amabasi abiri arimwo imbuto zitandukanye, imwe irimo intababara indi irimo ibinyomoro, izi ni imbuto z'ingirakamaro mu mibereho ya buri munsi yacu kuko zidufasha mu kubona intungamubiri utasanga mu bindi biribwa, kandi zidufasha mu kugira amaraso ameze neza.

Ubusitani burimwo ibyatsi ariko bukabamwo igiti cyiza cyane cyifashishwa nk'umutako w'ubusitani, ni byiza yuko ibiti nk'ibi ngibi tubibungabunga kuko bidufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka no gutanga agacucu ko kwicaramo, igihe umuntu ananijwe n'izuba ryinshi.

Ahantu hahinze ibimera ku murongo kandi ubona yuko bisasiye byitaweho neza. Izi ni imboga zitwa amashu, ni imboga z'ingirakamaro cyane mu buzima bwa buri munsi kuko zigira intungamubiri tutabona mu zindi mboga zindi. Ni byiza yuko duhinga ubuhinzi bwa kinyamwuga kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro.

Ahantu hari ibihingwa bitandukanye birimo amapapayi ariko byiganjemo karoti, ni byiza yuko dukora ubuhinzi nk'ubu ngubu kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa ndetse tubashe kwikura mu bukene.

Ubusitani bwiza burimo ibyatsi ndetse n'indabyo, ni byiza y'uko dukangukira guhinga indabyo ndetse n'ibindi byatsi kuko bituma aho dutuye hamera neza kandi isuku ikarushaho kwimakazwa.

Ubutunguru ni igihingwa cy'ingirakamaro cyane kuko gifasha uwagihinze kubona amafaranga, si ibyo gusa kandi ubutunguru umuntu arabuteka bityo bugahumuza ibiryo umuntu akagira apeti, niyo mpamvu dukwiye kububungabunga.

Ubutunguru bw'amoko atandukanye hari ubusa n'umweru, hari n'ubutukura, ubu bwose bufasha mu gutanga intungamubiri zitandukanye z'ingirakamaro mu mibiri y'abantu, dukangukire kubuhinga ndetse no kuburya turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ibasi irimo inyanya ndetse n'imboga, izi ni imbuto ndetse n'imboga bifite uruhare runini cyane mu mibereho ya muntu kuko ari isoko y'intungamubiri utasanga ahandi, ni byiza yuko dukangukira kuzihinga ndetse no kuzirya kugira ngo turusheho kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza.

Umurima urimo ibimera bitandukanye, harimo ibijumba, harimo intoryi, harimo amapapayi ndetse n'ibisheke. Ni byiza yuko mu gihe duhinga tugomba guhinga kijyambere, duhinga igihingwa kimwe kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Ahantu heza ubona yuko hafite isuku, hari ubusitani burimwo ibyatsi ndetse n'indabyo z'amoko atandukanye ubona yuko ari ubusitani bwiza, ni byiza yuko tubungabunga ubusitani nk'ubu ngubu kugira ngo dukomeze kuba ahantu hafite isuku.

Abantu benshi barimo umubyeyi uhetse umwana, uteruye ibasi ubona y'uko irimo ingemwe z'ibinyomoro, ni byiza y'uko abaturage bose bahabwa ingemwe z'imbuto ndetse n'imboga kugira ngo barusheho kwiteza imbere kandi barusheho kugira ubuzima bwiza.

Imbuto nyinshi zirimo imineke, imyembe, amacunga ndetse n'izindi, mu bigaragara ni aho zicururizwa, ni byiza yuko twese dukangukira ubuhinzi bw'imbuto nk'izi ngizi kuko ari ingirakamaro mu mibiri yacu, kuko ari isoko y'intungamubiri utasanga mu bindi biribwa.

Abantu ubona y'uko bakora imirimo ijyanye n'ubuhinzi, bafite umupira wifashishwa igihe barimo buhira, ni byiza y'uko dukangukira kuhira ibihingwa byacu igihe habaye imihindagurikire y'ibihe kugira ngo turusheho kugira umusaruro.

Ibihingwa byiza cyane ubona ko bitoshye, ubona y'uko hagati harimo abantu babiri bari kubyuhira, ni byiza y'uko ibihingwa tubyuhira igihe hari igihe cy'izuba kugira ngo izuba ritabigiraho ingaruka bityo umusaruro ukangirika.

Umubyeyi ubona yuko ari hagati mu murima, ari kuhira ibihingwa by'amashu, ni byiza yuko igihe twakoze ubuhinzi hakabaho ihindagurika ry'ibihe, tugomba gukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira, kugira ngo izuba ryinshi bitagira ingaruka ku musaruro tubona.

Umugabo ubona yuko afashe igikoresho yifashisha mu kuhira ibigori. Ni byiza yuko igihe twahinze hakabaho ihindagurika ry'ibihe, twakwitabira gahunda zo kuhira kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza.

Umugabo uri kuhira amashu ndetse n'izindi mbuto zitandukanye. Ni byiza yuko dukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira by'umwihariko bugezweho kugira ngo turusheho kubona umusaruro mwiza no mu gihe habayeho ihindagurika ry'ibihe.

Abantu bari ahantu hakorerwa imirimo itandukanye y'ubuhinzi, mu bigaragara bafite imipira yifashishwa barimo buhira imyaka, ni byiza yuko dukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira imyaka, kugira ngo tubashe gukora ubuhinzi buhangana n'ihindagurika ry'ibihe.

Umubyeyi uri kuhira imboga akoresheje indobo, ni byiza y'uko dukangukira guhinga imboga n'imbuto kuko ari isoko y'intungamubiri utasanga mu bindi biribwa kandi ni byiza ko dukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira igihe habayeho ihindagurika ry'ibihe.

Ahantu hakorerwa imirimo y'ubuhinzi ubona yuko hari ibidomoro ndetse n'amatiyo byifashishwa mu gukwirakwiza amazi mu mirima buhira; ni byiza yuko igihe habaye imihindagurikire y'ibihe tugomba gukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira, kugira ngo umusaruro wacu ukomeze kwiyongera.

Umugabo uri ahantu mu murima yahinzemo ibigori, mu bigaragara afite umupira mu ntoki arimo aruhira ibi bihingwa, ni byiza y'uko dukangukira kuhira imyaka yacu igihe habayeho imihindagurikire y'ibihe kugira ngo tubone umusaruro mwiza.

Umugabo ubona yuko ari ahantu mu murima, akora ubuhinzi bw'imboga z'amashu, ubona yuko yaziteye mu buryo bugezweho, arazisasira ndetse asigamo n'inzira acamo arimo arazuhira, afite umupira wo kuhira, ni byiza yuko igihe dukora ubuhinzi dukangukira gukoresha uburyo butandukanye bwo kuhira, kugira ngo duhangane n'imihindagurikire y'ibihe.

Ahantu heza cyane ubona y'uko hari ibimera bitoshye. Ni byiza y'uko tubungabunga ibimera nk'ibi ingibi, kuko bidufasha mu kuyungurura umwuka duhumeka ndetse bikaba ari isoko y'ibyo kurya n'imiti twifashisha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ahantu ubona yuko hakorerwa ibikorwa by'ubuhinzi, aho hari ibimera byinshi cyane bitandukanye birimo ibishyimbo, urutoki ndetse n'ibindi, mu bigaragara urabona yuko ari imisozi itatse ibimera, ni byiza yuko dukangukira gukora ubuhinzi kugira ngo turusheho kwiteza imbere no kwihaza mu biribwa.

Ahantu h'umusozi ibigaragara hari hahanamye, ariko haratunganyijwe neza hakoreshejwe uburyo bw'amaterasi y'indinganire, ubu ni uburyo bushobora kudufasha kurwanya isuri ahantu hari ubutaka buhanamye, bityo na bwo bukabyazwa umusaruro.

Ahantu ubona y'uko hari ibimera byiganjemo imboga n'imbuto, ubona yuko bisasiye. Ni byiza y'uko igihe abantu bakora ubuhinzi bakangukira gusasira imyaka yabo, kuko bibafasha kugira ngo ubutaka bubike amazi, bityo birinde ibihingwa kubura amazi abitunga ndetse n'intungagihingwa zitandukanye.

Ahantu hubatse ubona yuko ari ubwanikiro. Ni byiza ko igihe abantu bose bejeje ibihingwa bikenera kwanikwa bagira ubwanwanikiro bumeze neza, kugira ngo turinde umusaruro wacu kuba wakwangirika bityo bikatugiraho ingaruka.

Ahantu heza cyane mu bigaragara urabona y'uko bahasaruye igihingwa k'ibigori, mu nkengero z'aho urabona y'uko hari ibindi bimera bitandukanye byiganjemo ibiti, ni byiza y'uko dukangukira gukora ubuhinzi ndetse tukita ku bidukikije kugira ngo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Ahantu hameze neza cyane, hari amaterasi y'indinganire. Ni byiza yuko dukangukira gutera mu materasi igihe turi ahantu hari ubuhaname kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza.

Ahantu heza cyane ubona y'uko atari ahantu ho guturwa ahubwo ari ahantu hagenewe ubuhinzi ubona yuko harimwo ibimera bitandukanye, birimo insina ndetse n'ibindi, ni byiza y'uko abantu twese dukangukira gukora imirimo ijyanye n'ubuhinzi kuko bidufasha kwikura mu bukene.

Ahantu heza cyane ubona y'uko hari amaterasi y'indinganire, ni byiza y'uko ahantu hahanamye hashyirwa amaterasi y'indinganire kugira ngo turusheho gukumira isuri kandi ahantu nk'aha ngaha habyazwe umusaruro.

Ahantu ubona yuko hari amaterasi y'indinganire, mu bigaragara ku mpande zayo hateye ibyatsi by'inka, ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hakorerwa amaterasi y'imdinganire kandi hagakikizwa ubwatsi bw'amatungo kugira ngo turusheho kugira umusaruro mwiza.

Ikibaya gihinzemo igihingwa cy'umuceri. Umuceri ni igihingwa ngandurarugo gishobora gutuma uwagihinze yivana mu bukene, binyuze mu kubona amafaranga ndetse no kwihaza mu biribwa. Ni yo mpamvu dukwiye gukangukira kuwuhinga.

Ahantu ubona yuko bari gukora amaterasi y'iminganire, ni byiza yuko ahantu hose hafite ubuhaname tugomba kuhakora amaterasi y'imdinganire kugira ngo turusheho kuhabyaza umusaruro bityo turwanye isuri.

Ahantu ubona yuko hahanamye, mu bigaragara bari kuhakora amaterasi y'indinganire. Ni byiza yuko ahantu nk'aha ngaha hafite ubuhaname, hakorwa amaterase y'indinganire kugira ngo turwanye isuri, bityo tuhakorere ubuhinzi butangage umusaruro.

Ikiraro kiza cyane cyubatse mu buryo bugezweho, ubona yuko ari ikiraro cy'amatungo magufi. Ni byiza yuko ubworozi bukorerwa mu biraro bimeze neza kugira ngo burusheho gutanga umusaruro.

Ikiraro ubona yuko cyubatse mu buryo bwa gakondo hakoreshejwe imigozi ndetse n'imisumari, ubona yuko ari ikiraro cy'inka. Ni byiza yuko igihe turi korora kinyamwuga twororera mu biraro bimeze neza kandi amatungo yacu tukayitaho cyane kugira ngo arusheho gutanga umusaruro.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu bworozi bufasha ababukora kwivana mu bukene ndetse no kwihaza mu biribwa, binyuze mu kuba inkoko zitanga amagi ndetse n'inyama ndetse n'amafaranga.

Ingurube nziza cyane ubona y'uko yitaweho, ni rimwe mu matungo magufi abantu bagomba gukangukira kuko idufasha kwivana mu bukene binyuze mu kuba yaduha amafaranga ndetse ikadufasha no kubona ibikomoka ku matungo birimwo inyama, by'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Inyana ubona y'uko imeze neza, ni byiza y'uko inka zikiri ntoya na zo zitabwaho kugira ngo zigire imikurire myiza bityo dukomeze kugira ubworozi butanga umusaruro, budufasha kwivana mu bukene no kwihaza mu biribwa.

Umugabo uri kumwe n'umugore we ndetse n'umwana we, bari imbere y'ibiraro by'ihene ndetse n'inka, mu bigaragara bafite amatungo yabo magufi na maremare, ni byiza y'uko dukangukira korora kugira ngo twihaze mu biribwa kandi twiteze imbere.

Inkoko nziza zigezweho z'umweru ubona yuko zorowe mu buryo bwa kijyambere, izi ni inkoko zitanga umusaruro mu gihe gitoya, harimo izitanga inyama ndetse n'izitanga amagi, bityo uwazoroye akabasha kwivana mu bukene ndetse akanihaza mu bikomoka ku matungo.

Ahantu ubona yuko ari ikiraro cyubatse mu buryo bugezweho, icyo kiraro ni icy'ingurube, ni byiza yuko ubworozi nk'ubu ngubu tubwitaho kuko budufasha gukemura ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubukungu ndetse no kwihaza mu biribwa, dukomeze dukangukire gukora ubuhinzi n'ubworozi.

Inkoko nziza ubona yuko zitaweho. Ni byiza yuko dukangukira gukora ubworozi bw'inkoko kuko budufasha mu kubona ibikomoka ku matungo nk'inyama ndetse n'amagi bidufasha kubona intungamubiri tutasanga mu bindi biribwa, bidufasha kandi kubona amafaranga yadufasha kwikura mu bukene.

Umumama uri kumwe n'umwana we mu bigaragara bari kugaburira ingurube mu gikoresho kizwi nk'ibase, ni byiza y'uko abantu dukangukira gukora ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, ihene ndetse n'ibindi kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Ikiraro gakondo ubona yuko kirimo itungo rigufi rizwi nk'ihene, ni byiza yuko dukora ubworozi bw'amatungo magufi tubukoreye mu kiraro kugira ngo turusheho kubona ifumbire twifashisha mu buhinzi ndetse turusheho no kwiteza imbere mu buryo bworoshye.

Ubworozi bw'ihene ubona yuko bukorwa gakondo aho ihene bazishingira ibiti byo kuzizirikaho. Ni byiza yuko ihene zororwa ariko zikororwa mu buryo bujyanye n'igihe. Aho zakororerwa mu biraro kugira ngo zirusheho gutanga ifumbire kandi zirusheho gutanga umusaruro.

Ihene nziza, ubona yuko yitaweho. Iri ni rimwe mu matungo magufi ashobora gufasha umuntu kwiteza imbere mu bihe bidatinze. Ni byiza yuko dukangukira korora amatungo magufi, kugira ngo turusheho kubona ifumbire idufasha mu buhinzi, ndetse n'amafaranga, kimwe n'ibikomoka ku matungo.

Ahantu hateranirirwe inka mu bigaragara, izi nka zitaweho neza cyane, ni byiza yuko dukangukira gukora ubworozi bw'amatungo maremare, nk'inka kuko ari isoko y'ubukire ndetse bukadufasha no kubona ibyinshi mu byo dukenera, harimo n'ibikomoka ku matungo nk'inyama n'amata.

Umwana ubona yuko ari ahantu ku kiraro haziritse ihene, ni byiza yuko dukora ubworozi bw'amatungo magufi nk'ihene, ingurube, inkwavu n'ibindi kugira ngo turusheho kwiteza imbere kandi turusheho kwita kuri aya matungo tuyagaburira ibyatsi bimeze neza kugira ngo arusheho gutanga umusaruro.

Inka nziza yitaweho, ubona ko iri mu kiraro, ni byiza y'uko dukangukira ubworozi bw'amatungo maremare kuko ari isoko y'amafaranga ndetse n'ibikomoka ku matungo birimo inyama ndetse n'amata.

Umuntu ufite inkoko mu ntoki, inkoko ni rimwe mu matungo magufi afasha abantu kwivana mu bukene ndetse no kugira ubuzima bwiza, binyuze mu kuba ari isoko y'amafaranga ndetse n'amagi y'ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ikiraro cyubatse mu buryo gakondo, ubona yuko cyubakishijwe ibiti. Kirimo ingurube. Ingurube ni rimwe mu matungo magufi, afasha abantu kwikura mu bukene, binyuze mu kuba atanga amafaranga mu gihe kitari kinini, kandi akaba yaba n'isoko y'inyama zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ikiraro ubona y'uko cyubatse mu buryo gakondo, iki kiraro kirimo ingurube, ni byiza y'uko igihe tworora amatungo tugomba kwita ku mibereho myiza yayo bityo kugira ngo aya matungo arusheho kutubyarira inyungu.

Ikiraro cyubakishijwe ibiti, mu bigaragara kirimo ingurube, ingurube ni rimwe mu matungo magufi afasha abantu kwikura mu bukene, binyuze mu kuba ari isoko y'amafaranga, sibyo gusa kandi ni isoko y'inyama, zigira intungamubiri utasanga mu bindi biribwa mu buzima bw'umuntu.

Ahantu hari ibiraro ubona yuko byubatse mu buryo bwa kijyambere bisakaye birimo inka, ni byiza yuko ubworozi bw'amatungo nkaya ngaya bukorerwa ahantu hameze neza kugira ngo burusheho gutanga umusaruro.

Umugabo uri ahantu ku muhanda bigaragara yuko aragiye inka. Ni byiza yuko tugira ahantu mu rwuri turagira inka ndetse n'andi matungo; byaba byiza tukazororera mu biraro kugira ngo turusheho kubona ifumbire, ndetse ubworozi bw'inka burusheho gutanga umusaruro.

Ingurube bigaragara y'uko yabwaguye irimo ironsa ibibwana byayo, ni byiza y'uko abantu bita ku bworozi nk'ubu ngubu kugira ngo burusheho kubaha umusaruro kandi mu gihe kitarambiranye.

Ingurube ubona ko yabwaguye iri konsa ibibwana byayo, ni byiza yuko twese dukangukira gukora ubworozi bw'amatungo magufi by'umwihariko ingurube kugira ngo turusheho kwiteza imbere ndetse no kwihaza mu biribwa.

Inka ni itungo rirerire rishobora gufasha abantu kwikura mu bukene ndetse no kurwanya imirire mibi binyuze mu kuba ritanga ifumbire yifashishwa mu buhinzi ndetse ikaba idufasha kubona amafaranga binyuze mu kugurisha amata ndetse idufasha nanone kugira imirire myiza binyuze mu kuduha amata.

Ahantu hari ibiraro bibiri, haziritse ihene ebyiri, ubona yuko zitorerorewe mu biraro, ni byiza yuko ubworozi nk'ubu ngubu nabwo bukorerwa mu biraro, kugira ngo butange ifumbire ndetse n'umusaruro mwiza.

Abantu babiri bahagaze imbere y'ikiraro cy'ihene, ubona yuko ari umuryango ukennye, ni byiza ko imiryango nk'iyi ngiyi ikangukira korora amatungo magufi kugira ngo yivane mu bukene binyuze mu kubona amafaranga ndetse no kwihaza mu biribwa.

Umubyeyi uri kumwe n'abana be, mu bigaragara bafite ihene, ni byiza yuko imiryango yose iharanira kwikura mu bukene binyuze mu korora amatungo magufi nk'ihene kuko ari isoko y'amafaranga ndetse n'ibikomoka ku matungo by'umwihariko inyama.

Umugabo ubona yuko ari ahantu akorera ubworozi. Ari imbere y'ikiraro kirimo inka. Ni byiza yuko abantu twese dukangukira ubworozi bw'amatungo maremare nk'inka, kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa binyuze mu kwihaza mu bikomoka ku matungo, harimo nk'inyama ndetse n'amata, ndetse no kubona amafaranga.

Inka y'imbyeyi ubona yuko iri konsa. Ni imwe mu nka za kijyambere. Ni byiza yuko igihe tugiye korora amatungo twakangukira korora amatungo ya kijyambere kuko ari amwe mu yatanga umusaruro kurusha amatungo gakondo.

Ibihingwa by'ibigori ubona y'uko byamaze kuma babimanitse ahantu ku biti kugira ngo birusheho kwanikwa neza, ni byiza y'uko igihe twejeje turushaho kugira ubwanikiro buzima kugira ngo turinde ibihingwa byacu n'umusaruro wacu kuba byakwangirika, bityo ingaruka zabyo ku buzima bwacu zikumirwe.

Ikibaya kinini cyane gihinzwemo igihingwa cy'ibirayi, ubona yuko ibi birarayi bihinzwe mu buryo bugezweho. Ni byiza yuko dukoresha uburyo bugezweho dutera ibihingwa bitandukanye nk'ibirayi kugira ngo birusheho gutanga umusaruro uruta uwo twakabonye turamutse tubihinze mu buryo gakondo. Dukomeze dukore ubuhinzi kinyamwuga.

Akarima gatoya ubona yuko karimo ibimera bikiri kumera, aka karima kifashishwa bahumbika imbuto kugira ngo bazabone izitera umurima wose, ni byiza yuko utu turima twitabwaho kugira ngo imbuto ziturimo zirusheho kubungabungwa.

Ahantu hakorerwa imirimo y'ubuhinzi, mu bigaragara higanjemo igihingwa cy'urutoki, hari kandi abantu babiri ubona yuko bari kwita ku turima tw'igikoni. Ni byiza yuko twita ku turima tw'igikoni kugira ngo twihaze mu biribwa bitandukanye, by'umwihariko imboga n'imbuto.

Igihingwa cy'urusenda, mu bigaragara urabona y'uko ari ikimera cyitaweho, ni byiza y'uko urusenda rubungwabungwa kuko abantu barwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi kuko bibafasha kuryoshya ibiryo ndetse rugatera apeti.

Igihingwa cy'urunyanya, ubona yuko ari urunyanya rugezweho ruhinzwe mu buryo bwa kijyambere, ni byiza yuko igihe duhinga imbuto nk'izi ngizi, duhinga mu buryo bwa kinyamwuga, tukazitaho kugira ngo zirusheho gutanga umusaruro mwiza.

Ahantu hari ibimera bitandukanye higanjemo imboga rwatsi, ni byiza y'uko kuri buri funguro ryose dufata hagomba kuba hariho imboga kuko zigira intungamubiri utasanga mu bindi bimera, ni byiza kandi y'uko dukangukira gukora uturima tw'ibikoni kugira ngo turusheho kwihaza muri izi mboga.

Umworozi ari kumwe n'umuvuzi w'amatungo, bigaragara yuko inka bayihambiriye ku giti bagamije kuyivura, ni byiza yuko igihe amatungo tworoye yagize ikibazo cy'uburwayi tugomba guhamagara abaganga b'amatungo bakayavura.

Abantu biganjemo abakiri batoya, ubona yuko bari kuragira amatungo arimo intama ndetse n'inka. Ni byiza yuko abantu bakangukira kororera mu biraro, kugira ngo barusheho kubona ifumbire ndetse n'umusaruro mwiza ukomoka ku matungo.

Umugabo ubona yuko yakoze umushinga w'ubworozi bw'inkoko, ni byiza yuko dukangukira korora amatungo magufi arimo inkoko, ihene, ingurube ndetse n'ibindi kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Abantu benshi ubona yuko bafite amatungo yitwa ihene, aya ni amatungo adufasha cyane mu kwiteza imbere aho ari isoko y'amafaranga ndetse n'inyama, ni byiza yuko dukangukira ubworozi nk'ubu kugira ngo turusheho kwiteza imbere.

Umugabo ubona yuko ahagarikiye inka ahantu imbere y'inzu. Si byiza yuko abantu baragira amatungo aho abantu batuye, ni byiza ko amatungo agira inzuri byaba byiza kurushaho akororerwa mu biraro kugira ngo arusheho gutanga umusaruro.

Umugabo ubona yuko ari umworozi ,ahetse igikoresho bifashisha batera umuti, arimo aratera umuti urwanya udukoko ku nka ze. Ni byiza yuko igihe tworoye amatungo tugomba kuyatera imiti yabugenewe iyarinda kuba yakwangizwa n'udukoko dutandukanye.

Umworozi uri kumwe na muganga w'amatungo, mu bigaragara bari guha ubuvuzi inka ishobora kuba yagize ikibazo cy'uburwayi, ni byiza ko igihe amatungo yacu agize ikibazo cy'uburwayi, twahamagara abaganga b'amatungo kugira ngo badufashe bityo inka cyangwa andi matungo bibone ubuvuzi hakiri kare, bitaduteza igihombo.

Umworozi w'intama ari kumwe n'umuganga w'amatungo bigaragara y'uko hari intama bari gukingira, ni byiza y'uko amatungo yacu tuyaha ubuvuzi ndetse tukayakingiza indwara zitandukanye kugira ngo ubworozi bwacu burusheho gutanga umusaruro.

Abantu babiri ubona y'uko umwe ari umworozi undi akaba ari umuganga w'amatungo, bari guha umuti inka ishobora kuba ifite ikibazo cy'uburwayi. Ni byiza yuko mu bworozi dukora bwa buri munsi tugomba kwita ku mibereho myiza y'amatungo yacu igihe yarwaye akavuzwa kugira ngo arusheho kuduteza imbere.

Umuganga w'amatungo wambaye impuzankano ye, mu bigaragara ari gukora mu nda y'amaganga y'inka kugira ngo ayisuzume uburwayi ishobora kuba ifite. Ni byiza yuko igihe inka cyangwa andi matungo agize ibibazo, tugomba kugana aba baganga bakadufasha.

Abantu babiri ubona yuko bari mu rwuri baragiye inka, ni byiza yuko igihe dukora ubworozi bw'inka, turushaho kuzitaho tuzishakira ubwatsi bumeze neza ndetse n'inzuri zimeze neza kugira ngo inka zirusheho gutanga umusaruro mu buryo bw'umukamo ndetse n'amafaranga.

Abantu babiri b'abagabo ubona y'uko bari ahantu hubatse harimo inka, inka ni rimwe mu matungo maremare adufasha mu kubona amata, inyama, amafaranga ndetse n'ibindi bidufasha kugira ubuzima bwiza, dukomeze tuzibungabunge.

Umworozi uri kumwe n'umuganga w'amatungo. Mu bigaragara bari guha inka umuti ishobora kuba yagize ikibazo cy'uburwayi. Ni byiza yuko mu bworozi dukora, tugomba kwita ku mibereho y'amatungo yacu, igihe yagize ibibazo tukihutira guhamagara abaganga bayo bakayavura.

Inyamaswa y'ingagi. Ni imwe mu nyamaswa z'ingenzi cyane kuko ikwega ba mukerarugendo batari bake hirya no hino ku isi. Ni byiza yuko inyamaswa nk'izi tuzibungabunga kugira ngo turusheho guteza imbere ubukerarugendo.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikwega ba mukerarugendo cyane, ni byiza y'uko tuzibungabunga kugira ngo turusheho guteza imbere ubukerarugendo kuko nta yindi nyamaswa ikwega ba mukerarugendo benshi kurusha ingagi.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zikwega ba mukerarugendo cyane bitewe n'imibereho yazo itangaje, ni yo mpamvu zidufasha cyane mu kwinjiza amadovize hano mu Rwanda, ni byiza yuko dukomeza kubungabunga izi nyamaswa kuko zidufatiye runini.

Inyoni ni zimwe mu nyamaswa z'ingenzi cyane kuko zidufasha mu gukurura ba mukerarugendo mu byanya nyaburanga, sibyo gusa kandi inyoni zifasha mu kurya udukoko twangiza ibimera bityo ibyo byonnyi bigakurwaho bidasabye y'uko umuntu akoresha imiti yavuye mu ruganda.

Inyoni nziza ifite amabara atandukanye, yiganjemo ajya gusa n'umukara, ajya gusa n'umutuku ndetse n'ubururu, mu bigaragara ibereye ijisho, inyoni ni zimwe mu nyamaswa zikwega ba mukerarugendo cyane, ni byiza ko tuzibungabunga kugira ngo turusheho guteza imbere ubukerarugendo.

Imbwa ni zimwe mu nyamaswa zibana n'abantu, aho zirinda umutekano w'inzu z'abantu. Ni byiza yuko izi nyamaswa na zo zitabwaho kugira ngo zibungabungwe ntiziteze ikindi kibazo.

Inyoni ubona yuko ifite amabara meza cyane yiganjemo umutuku, ubururu, icyatsi kibisi ndetse n'ikigina. Urabona yuko ari inyoni ibereye ijisho. Inyoni ni zimwe mu nyamanswa zikwega ba mukerarugendo benshi bityo bakatuzanira amadovize. Dukomeze tuzibungabunge.

Inyoni ubona yuko imeze neza, mu bigaragara yitaweho cyane, inyoni ni zimwe mu zikwega ba mukerarugendo, ni byiza yuko tuzibungabunga kugira ngo turusheho guteza imbere ubukerarugendo.

Impara, ni zimwe mu nyamaswa nziza cyane zibereye ijisho ku bw'amabara yazo, izi ni inyamaswa z'inyamahoro kuko zirisha ibyatsi byo mu ishyamba, izi nyamaswa zidufasha mu gukwega ba mukerarugendo baza gusura igihugu cyacu, dukomeze tuzibungabunge.

Ingagi ni inyamaswa itangaje y'indyabyatsi, ishobora gukora ibikorwa bitandukanye bitangaza benshi ari byo bituma ikwega bamukerarugendo benshi, ni yo mpamvu dukwiye kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima by'igasozi nk'ibi ngibi kuko ari ingirakamaro mu buzima bwacu bwa buri munsi.

Ingagi ni imwe mu nyamaswa zitangaje cyane, zitungura abatari bakeya bityo abenshi bakagira amatsiko yo kuza kuzisura, ni byiza rero ko tuzibungabunga kuko zidufasha gukwega ba mukerarugendo bityo tukinjiza amadevize, dukomeze tuzibungabunge.

Ingagi ni inyamaswa zitangaje bitewe n'imibereho yazo, ni byo bituma abenshi bifuza kuza kuzireba bityo ahantu ziri bakahatanga amadovize, niyo mpamvu dukwiye kuzibungabunga kugira ngo dukomeze dushyigikire uruganda rw'ubukerarugendo.

Inyoni ubona y'uko imeze neza ibereye ijisho, inyoni zidufasha mu buryo butandukanye mu buzima bwacu bwa buri munsi, harimo nko kuba zidufasha kubangurira ibihingwa bitandukanye ndetse zinakwega ba mukerarugendo baza kureba ibyiza bitatse agace runaka, ni byiza ko zikomeza kubungwabugwa.